Gufata amafoto, imbere hari amazi, n'abapolisi bari muri sale, bari kunywa amazi na ji, harimo n'abandi baturage.

Abaturage bari mu itorero bari gukoma ingoma abandi bakoma amashyi abandi bari kuvugira muri mikoro.

Umumama wambaye igitenge, usutse, uri kwisobanura mu nama irimo n'abandi baturage.

Umusifuzi wamanitse ikibaho kiriho umunani mu ibara ry'umuhondo na kane yo mu ibara ry'umutuku weherurutse na nyezamu uri mu izamu n'umukinnyi umuri inyuma utagaragara neza.

Abagabo batatu, babiri bavuye mu kazi, undi umwe uri gusunika amazi ku igare, bari mu giturage mu Mudugudu.